Biba bikwiye ko abayobozi bicara hamwe bagashaka umuti wateza imbere igihugu, ndetse bakarebera hamwe n'imbogamizi abene gihugu bahura nazo bakazishakira umuti.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Akenshi na kenshi iyo habayeho kwamamazwa kw'ahantu umuntu yagurira ibicuruzwa, ibyo bimufasha kuba yamenya aho agomba gukura ibicuruzwa kuko aba afite amakuru y'ibanze kuri aho hantu yakura ibicuruzwa.

Mu mijyi imwe imwe imaze gutera imbere, ni ngombwa ko haba umwanya wasizwe kugira ngo, abantu abashe kuwukoresha mu kuruhuka, igihe barangije akazi, kugira ngo bagabanye amavunane amwe n'amwe aterwa n'akazi.